Umugore uhetse ikijerekani, gitera umuti mu bimera, ari kugenda atera mu bimera byarwaye kugira ngo bikire kuko uwo umuti wica udukoko twose.

Abantu babiri bari mu gishanga, bafite ibijerekani bicometseho imipira bari kugenda bavomerera, urabona ko ibyo bavomerera biratoshye n'uko baba babyitaye kuko iyo utitayeho ku kintu, kiragenda nacyo kigapfa.

Umurima w'ibigori, harimo umugabo uri kugenda atera umuti. Kuko nkongwa nyinshi iyo zigeze mu bigori, bibica ibibabi bikangiza ikimera, bigatuma kidatanga umusaruro. Afiti rero umuti ari kugenda ateramo.

Umuntu w'umugabo wambaye ipantaro yayizinze ahetse pompe mu mugongo irimwo umuti ari gupuriza atera uwo muti ku muceri uhinze ahantu mu gishanga.

Umugabo uri gutera umuti ku bihingwa by'imbuto bitandukanye, yambaye pompe mu mugongo, ari gukuriza umuti ku mbuto yahinze.

Inyubako irimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, irimo ibikoresho byinshi bigaragara ko ari mu isuzumiro harimo uducupa twinshi ndetse tumwe na tumwe turimo umuti. Hari mudasobwa imuri imbere ari kwifashisha mu gusuzuma.

Umusore wambaye ingofero itukura n'agasengeri gatukura, ahetse ipompe mu mugongo ari gutera umuti ku ntoyi yahinze, muri uwo murima w'intoryi hagati harimo insina imwe gusa.

Abantu batatu bahagaze mu cyuzi cy'amafi, ni abagabo babiri n'umugore umwe ndetse n'umwana mutoya imbere yaho, barobye umugore afashe ifi mu ntoki.

Umugabo utwaye amafi menshi mu ibase, yambaye umupira w'umuhondo arunamye bigaragara ko avuye kuroba ayo mafi mu cyuzi kiri hirya inyuma ye.

Umugore uhagaze yifotoreza imbere y'icyuzi bororeramo amafi, harimo supaneti, hakurya hari akazu kubakishije amabati y'umweru n'imbaho.

Umugore wicaye mu bwato wenyine, afite ingashyi ari kugashya, inyuma ye mu bwato hari shitingi nini cyane isa nk'aho ayifashisha iyo imvura yaguye akayitwikira.

Umusore uhagaze hejuru y'icyuzi bororeramo amafi, afite isahane iriho ibiryo bagaburira ayo mafi, bigaragare ko agiye kumenamo ubundi ayo mafi akabirya.

Abantu bari gutembera iruhande rw'ibyuzi bororera mu mafi, n'abagore n'abagabo bari gutembera ariko bigaragara ko bataje kuroba, hakurya yabo ku gashyamba hari abandi bantu babiri bari kugenda.

Ikidendezi cy'amazi menshi cyane kiri ahantu mu gihuru ku ruhande rwacyo hari ibihuru bitandukanye ndetse n'ibindi biti, biragaragara ko ari ahantu hatagendwa.

Abagabo bane bari kuroba bari mu kiyaga, ndetse bafite inshundura imwe bashyze mu mazi bakuramo amafi menshi atagira ingano, noneho bari kuyazamura kugira ngo bayavangure bagiye kuyateka cyangwa bayacuruze.

Abantu bari mu mato atandukanye, hari umugore uri mu bwato bwe uri kugenda agashya, ajya ku nkombe, n'abandi benshi bari mu yandi mato bagana ku nkombe.

Umugabo utwaye amafi mu ibase arunamye wagira ngo hari aho agiye kuyashyira, avuye inyuma hirya ye hari icyuzi ndetse kitari kimwe byinshi cyane bigaragara ko ari ho akuye ayo mafi.

Ikimera kiriho imbuto zimwe zeze izindi zitarera zifite ibara ry'umutuku ntaho izitarera zifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse iziri hafi kwera zo zirimo kuba umuhondo hari n'ibihu bigaragara ko ari mu gitondo.

Abagore benshi cyane bunamye ahantu mu gishanga ni benshi batonze umurongo bari gusarura ibimera byitwa urukangaga bari kujya barandura bashyira ku rutugu.

Umubyeyi uri mu murima w'ikawa wenyine, ari gusoroma yambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu, ndetse yambaye no mu ijosi ishapule.

Umukecuru uri mu murima w'ikawa, ari kuzisoroma zirahiye cyane, ni wenyine. Ateze igitambaro gitukura ndetse yifubitse n'ikote.

Ikawa zikiri ibitumbwe cyane zitari zahisha ziri ku biti ndetse n'amababi atohagiye cyane, imbere yaho hari ikawa zapfuye zumye.

Umuntu uhagaze mu gishanga cy'umuceri, ni umuceri bigaragara ko weze ahagazemo ateze igitambaro cy'umutuku, hakurya ku misozi hari amashyamba ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Umugore uri mu murima w'icyayi munini cyane ari gusoroma icyayi yifubitse igitenge, ateze igitambaro gitukura, afite igitebo kirambitse arikujya asoromeramo icyayi, igitebo kiracagase ibibabi.

Amakarito menshi cyane apanze ahantu hamwe agiye ariho ifoto y'inka zishushanyijeho kuri ayo makarito, harimo ikarito imwe ifunguye bigaragara ko irimo imiti ihabwa inka.

Icyumba gitoya kirimo amacupa y'amoko atandukanye ndetse amwe afite imipfundikizo y'umweru andi afite imipfundikizo.

Inyubako irimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye ndetse ikagira n'umuzani, uriho n'isaha ndetse ushobora kuyitiranya n'isaha, baterekaho ibicuruzwa hasi bareba ingano yabyo.

Igicupa kinini cyane bigaragara ko kibitswemo umuti. Kiri mu ibara ry'ubururu kirapfunduye kandi giteretse ku ntebe ya pulasitike, iri mu ibara ry'umweru.

Amacupa manini n'amatoya yose ateretse hamwe. Bigaragara ko harimo umuti wifashishwa kwa muganga. Harimo ay'umweru ndetse n'andi apfundiki udufuniko tw'umuhondo.

Amakarito menshi cyane apanze ahantu mucmba cy'ububiko. Ni amakarito agiye ashushanyijeho ifoto y'inka ndetse yanditseho n'amagambo, bigaragara ko ari imiti baha inka.

Imifuka minini irunze ahantu hamwe bigaragaramo irimo ibintu bitandukanye, hari ishushanyijeho inyamaswa, n'iyanditseho amagambo agiye atandukanye.

Indobo ebyiri nini cyane zipfundikije imifuniko y'umweru ndetse ku ruhande hariho amacupa y'umweru apfundikiye bigaragara ko arimwo imiti. Kuri izo ndobo hashushanyijeho inka ndetse handitseho n'andi magambo agiye atandukanye.

Amacupa manini cyane y'umweru, agiye yometseho ibipapuro byanditseho amagambo menshi matoya ari mu ibara ry'umweru. Arapfundikiye kandi bigaragara ko harimo umuti.

Isaha nini imanitse ahantu ku gikuta mu nzu, hasi hari amakarito agiye arunze hamwe ndetse iyo saha iri imbere y'ibipapuro binini cyane bigaragaza ko ari ingengabihe.

Imifuka myinshi irunze ahantu hamwe bigaragara ko ibitsemo ibintu bitandukanye, harimo iy'umutuku niriho ibara ry'umuhondo ariko yose icyo ihuriyeho nuko hashushanyijeho ifoto y'inka.

Umugabo uri gusunika ubwatsi bw'amatungo ku igare, ari ahantu mu gishanga kinini cyane hari umurambi, ni mu gihuru ari kunyuza iryo gare, ari wenyine nta muntu uri kumusunikira.

Inka y'ikibamba ifite amabara atandukanye, irimo umugabo munsi uri kuyikama avuruganya. Bimwe bakoresha amaboko. Nibyo bita kuvuruganya.

Umugore afite inkoni ndetse n'umuhoro, ari kugenda atambuka mu byatsi byinshi ubona bisa n'ibyatsi byeraho umuceri. Ariko ari gutambuka nkaho hari ikintu avuye gutema.

Umurima uhinzemo ibigori bikiri bitoya cyane, bifite amababi meza hahagazemo abantu babiri bari kubibagara, umwe ni umugabo undi n'umugore.

Abantu benshi cyane bari gutera ingemwe z'imbuto. Ni abagabo n'abagore, abagabo bambaye imipira y'icyatsi kibisi bambaye n'ingofero z'umweru.

Umurima uhinzemo icyayi, umurima munini cyane ariko icyo cyayi kikaba kikiri gitoya cyane, bigaragara ko kitaragera mu gihe cyo gusarurwa, bitewe n'uko kikiri gitoya.

Umusore urimo kwahira ubwatsi afite umuhoro arimo gukoresha ndetse amaze kugira ishigata ry'ubwatsi bw'urubingo ari kugenda abwimura kugira ngo akomeze yahire.

Umugabo uri mu bigori ari kugenda acamo ibimwe muri byo bigaragara ko bifite ikibazo, ari kwitegereza areba uko umurima we uhagaze, iruhande rw'umurima we hari ibiti bitandukanye, ndetse hari n'imisozi myinshi.

Igishanga kinini cyane kirimo akayira gatoya, kari kunyurwamo n'abantu benshi cyane. Harimo abantu bikoreye intebe, imbere yabo ariko hari igare ritwaye imizigo, riri gusunikwa n'umuntu umwe.

Umugabo uri gusunika igare yaripakiyeho inkwi nyinshi cyane zumye, ari guca ahantu mu gihuru bigaragara ko hatari n'inzira, ni igihuru kirimo ibyatsi biri kuma bigaragara ko hariho izuba ryinshi.

Igishanga kigari cyane giteyemo umuceri ku mpande zose ndetse hakaba harimo abantu babiri, bari kugenda bitegereza aho umuceri ugeze wera ndetse iruhande rwacyo hari ibiti by'amoko atandukanye.

Abahinzi b'inanasi, bari mu murima barimo kwitegereza ndetse bamwe baricaye, harumu umugabo uririmo kwandika, agira ngo amenye umubare w'izasaruwe.

Igihingwa cy'ikigori cyasaziye ku gisigati bigaragara ko batinze kugisarura, inyoni zakiriyeho ikindi cyasigaye cyumiyeho ku gisigati cyacyo.

Umuntu uhagaze ufashe mu ntoki imboga n'imbuto avuye guhaha mu isoko. Afite karoti n'umwembe ndetse n'ibitunguru na puwavuro mu ntoki.

Umuhinzi wunamye mu gishanga, ari kurandura ibyatsi ahantu mu gishanga bimeze nk'umuceri, ndetse ubwo butaka burafatira cyane bumeze nk'ibumba, isuka yayirambitse mu mutwe ubona ko atari kuyikoresha, ahubwo ari kuranduza ibyatsi intoki.

Isoko rigari ririmo ibirayi by'amoko atandukanye, biri mu mifuka myinshi, imwe yuzuye indi ntiruzura, hakaba hari abantu benshi barimo kugura; bamwe muri bo bafite imitaka bigaragara ko ari mu gihe cy'ubukonje cyangwa mu gihe cy'izuba.

Igihuru cy'inzitane kirimo imikenke, imiyenzi ndetse n'ibindi byatsi by'ibihuru bitandukanye bitangiye guhisha kubera izuba ryinshi ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Umurima munini urimo ibiti birambitsemo bito byumye, hashibutsemo igiti kinini cy'umwumbati gifite amababi meza cyane. Bigaragara ko cyahashibukiye atari icyo bateye. Haruguru ku musozi hari ibindi biti ariko bitari binini cyane.

Umuhanda uri ahantu h'umurambi cyane ubona ko nta misozi ihaba, ni ahantu hitaruye cyane hari ibimera bitoya nyine bigaragara ko nta bindi bimera binini bihari bitewe n'uko ari mu gishanga.

Ikirundo cy'ibirayi byinshi harimo ibinini ni bitoya byatangiye gushishuka kubera ko iyo ubitwaye mu mufuka bigenda bishishuka igishishwa cy'inyuma noneho ukabona ko bikeneye gutekwa vuba kugira ngo bitangirika.

Mu isoko ry'imboga harimo ibintu byinshi bitandukanye; imiteja, imyungu, imboga rwatsi ndetse n'intoryi .Hakaba hari n'ibindi byinshi ku ruhande ndetse n'amagi.

Umurima w'insina z'ibitoki, urabona ko harimo insina nyinshi cyane zifite ubwoko wagira ngo ni inyamunyo, ku mpande y'uwo murima hari ibiti byinshi bihateye.

Igiti k'ipapayi ndetse kimaze gukura ubona ko gisumba ibindi biti biteye aho ngaho, hari n'ibyatsi bigufi byo ubusanzwe bitajya bikura byerera cyangwa bigakurira ku butaka, hari n'ibizamuka bikagera hejuru.

Igiti cy'umwumbati cyakuze cyane kiragungaza, cyashibutse ahantu hagaragara ko hari hahinze imyumbati mbere. nta kindi kintu kihahinze, ni ahantu hari ibimera byumye kubera izuba. Haruguru hari amazu y'abantu bahatuye.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, hari ibifunze ndetse n'ibidafunze, hari ahagaragaramo inyanya zatunganyijwe, hari ibirayi, amacunga ndetse hari na tangawizi, hari n'andi macupa arimo umutobe uva mu mbuto.

Umusozi witaruye cyane uriho ishyamba, ntabwo ari umusozi muremure uhanitse cyane ahubwo hagati harimo ikibuga akantu gato kameze nk'igishanga.

Isambu nini ndetse bigaragara ko ari ngari cyane irimo inka nyinshi zitandukanye, harimo ibibamba ndetse n'izindi zifite ibara ry'umweru gusa, hari uruzitiro biragaragara ko ariho zirishiriza kandi zigahaga.

Ishyamba ririmo ibiti bitari binini cyane, harimo n'ibindi bimera byiganjemo ibihuru, hagati harimo ikibuga gitoya kigaragara ko gikinirwaho nta biti biteyemo.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti bigaragara ko bikuze cyane byagungaje, hakurya hari igihuru cyererana cyane, harimo ibimera biri kuzana ibibabi by'umuhondo ubona ko nabyo bikuze.

Kusozi hariho ibimera byinshi bitandukanye ,ibiti birebire bihingwa bivanzwe n'imyaka. Ndetse wakozweho amaterasi , kuko urabona ko usa neza bigaragara ko hakozwe amaterasi igihe kimwe ubungubu hakaba harimo guhingwa.

Umurima urimo ibimera bimeze nk'ibigori ndetse n'ibindi biti by'amoko atandukanye, hari umugezi bigaragara ko hari ikiyaga kinini ndetse hakaba hagaragara n'ibicu hafi y'uwo mugezi.

Mu muhanda w'igitaka harimo urujya n'uruza rw'abantu. Bamwe bafite amasuka abandi ntakintu bafite. Barimo kugenda bagana mu muhanda muto ndetse hari ishyamba ryinshi aho bari n'inyubako iri hepfo y'umuhanda ndetse biragaragara ko ari abantu bavuye mu muganda.

Umusozi munini uriho ishyamba ariko ridacucitse bigaragara ko batera igiti kimwe bagatema bibiri cyangwa bagatema bibiri bagatera kimwe.

Umusozi uhanamye cyane, uteyeho ishyamba ritari rinini cyane, rigizwe n'ibiti bikiri bitoya bitarakura. Uruhande rumwe ruragaragara ko ishyamba ryariho baritemuye ritagihari ndetse hari n'ibindi bimera bitandukanye, bimwe biri kugenda byuma bitewe n'izuba.

Umuhanda w'igitaka uri munsi yishyamba, harimo kugendamo abantu benshi cyane ndetse hafi yaho hari icyayi kiri mu murima, kuko ni mu gishanga.

Ibiti birebire ndetse n'ibyatsi bigufi hagati yabyo harimo inzira itambukamo, hari n'ikiyaga kirimo ibyatsi bigaragara ko ari ku ruhande rw'umugezi.

Urwuri rw'inka rwitaruye cyane hirya mo hagati harimo inka ziri kurisha, hakurya yaho hari imisozi yitaruye ihanamye, idahinzeho ishyamba ariko ahagana mu mubande hari ishyamba, harimo igihuru umukenke n'ibindi bimera bitandukanye.

Imbuto za avoka nyinshi cyane zirunze hamwe. Bigaragare ko bazisoromye uwo munsi. Ntabwo zihiye, zose zigaragara ko ziva ku giti kimwe kubera ko zisa icyatsi zose.

Ihuriro ry'indabyo nyinshi zitandukanye ziri mu murima, ziteye ubwuzu kuzireba umuntu wese yakifuza guhora azireba, zifite amabara atandukanye harimo umuhondo, umweru ndetse n'umutuku.

Umugore uhagaze mu murima w'amashu ni amashu ahinze ku murongo bigaragara ko atari yagera igihe cyo gusarurwa, hirya y'uwo murima munini hari ibiti by'amashyamba ndetse hahagaze n'abandi bantu benshi.

Inyanya zinini cyane kandi zihishije zikiri ku nkondo ubona ko zitari zasarurwa ariko mu by'ukuri zikeneye gusarurwa kubera ko zirenda kwihungura.

Imbuto nini cyane ziri ku giti zitwa amapapayi ariko ntabwo yari yashya urabona ko byose bikiri ibitumbwe ariko ibibabi byacyo biri kugenda bisa umuhondo bitewe n'izuba ryinshi.

Ubusitani buhinzemo indabyo nziza nyinshi zitandukanye kandi z'amabara meza, zigiye ziteye ku murongo bigaragare ko ari ahantu bazicururiza ndetse hari n'indi nyubako ubona ko bazitaho cyane.

Isoko ry'imboga n'imbuto ririmo inyanya nyinshi cyane zisutse ahantu hamwe, hari ababyeyi batatu, imbere yabo hari idomoro ndetse na teremusi, bari kuganira ndetse n'inyuma yaho hari abandi bacuruzi.

Umugabo wambaye bote wambaye n'ingofero afite rozwara mu ntoki, irimo amazi ari kuvomerera ibyo bateye, inyuma ye hari abagore bamwitegereje ndetse hirya hari n'abandi mu murima bari guhinga.

Umugore uri guhinga ndetse ubona ko afite ahantu hanini ho guhinga. Ntawuhinga ahahagaze ahubwo yunamamo gake kugira ngo amenye neza guhinga kandi ahinge agezemo isuka hasi. Hari n'ibyatsi biri ku ruhande rw'umurima we.

Ikiraro kinini cyane kiriho korotire z'ibyuma, ni uruzi runini ruri ahantu mu gishanga hakurya ku misozi hari amashyamba n'ibiti ndetse n'ibindi bimera byinshi.

Igishanga kirimo ibimera bitoshye cyane ariko bikiri bitoya, harimo ikoranabuhanga bashyizemo rivomerera ibyo bimera nta muntu uhari, hakurya ku misozi hari ishyamba ndetse n'ibiti bigungaje cyane bishishe.

Abana batatu b'abahungu bafite rozwara mu kirere bari kuvomerera imboga, bose barasa nk'aho bari gukoresha amazi angana.

Umubyeyi uri kuvomerera ibimera, yagiye ahinga ariko ubona ko bikiri bitoya cyane. Afite umupira uri kuvamo amazi menshi cyane mu ntoki. Yambaye ikanzu kandi yambaye n'agapfukamunwa.

Ibigori bihinze ku mirongo ariko kandi barabivomerera bigaragara ko ari mu gihe cy'izuba gusa ntibibuza kuba bisa neza kandi bifite amababi atohagiye.

Umugabo ufite akamashini kavomerera ari kuvomerera ari ko yifashishije, biragaragara ko hari amashusho ari kumera, hari abandi bahinze hirya y'uwo mugabo naho hateyemo ibindi bimeze nk'amashu nabyo.

Ishyamba ryinshi rifite ibiti by'inganzamarumbo ndetse byegeranye cyane wagira ni muri parike, iruhande rwaho hari umusozi uhinzeho icyayi ubona kimeze neza.

Igishanga kigali kirimo aho bahinga, ndetse hakaba hari n'umugezi uri gutemba umanuka, ni ahantutu hanini hisanzuye, kandi uwo mugezi biragaragara ko utapfa kuwambuka.

Umusozi uriho ibimera byinshi ndetse n'ibiti, ni amaterasi kuko ubona ko ari ku murongo ndetse hari n'ishyamba riri ku wundi musozi wo hakurya.

Igishanga kinini cyane gihinzemo umuceri ukiri mutoya utari wagera igihe cyo gusarurwa, hakurya ku misozi hatuyeho abantu ariko igice kinini kirimo amashyamba na gituwe n'ibindi bihuru.

Imisozi miremire n'imigufi itekanye iriho ishyamba rinini cyane, hagati yayo harimo imirambi n'ibishanga birimo ibimera bigiye bitandukanye. Kuri iyo misozi nta bantu bahatuye.

Imisozi ihanamye cyane ariko igiye itaganye, bayiciyeho imiringoti n'amaterasi ariko kuri iyo misozi hagiye hatuyeho abantu bakeya.

Ingurube ebyiri ziri kurira hamwe kandi ziri mu kiraro kimwe. Bigaragarara ko ziba hamwe. Imwe yambaye iherena ku gutwi kumwe. Bigaragara ko ziba zarakingiwe.

Inyubako irimo inkoko nyinshi zitandukanye, amasake n'inkokokazi, harimo aho zidomera ibiryo ndetse hari n'isaso kugira ngo zibone aho ziterare amagi, hari n'ibikoresho zinyweraho amazi.

Inka ziri hamwe ahantu bita mu rupango. Hanze hari abaveterineri cyangwa se abo twita abaganga bazo b'amatungo. Harimo abambaye ibitaburiya by'umweru n'abambaye ibisarubeti by'ubururu, baje kuzikingira.

Umusore wambaye ingofero y'umutuku, arunamye ari gukama inka, imbere ye hateretse icyansi arakamiramo amata.

Ihene nyinshi cyane ziri ahantu mu gihuru mu rwuri, ziganjemo izifite ibara ry'umweru, haruguru yazo hahagaze abantu benshi cyane, imbere y'agashyamba gahari k'inturusu ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Abagabo bambaye ibisarubeti by'ubururu ndetse n'amaboti, hari uri mu nka z'Inyambo, ari kuzikingira zifite ikibazo kugira ngo babone uko zibaho neza zifite umutekano.

Ikiraro kinini cyubatse mu buryo bwa kijyambere, n'ikiraro cy'inkwavu ndetse n'inkwavu zirimo ziraryamye, harimo udusahane bagaburiraho izo nkwavu ndetse ni mu buryo bwa senyenge.

Ingurube enye imwe iraryamye izindi ziri kuyonka, bigaragara ko ari ibibwana byayo yabwaguye, zose ziri konka zishishikaye cyane ndetse biragaragara ko ari ingurube ziri mu ibara ry'umweru n'umukara.

Icyumba kirimo inkoko z'amoko atandukanye, harimo izifite ibara ry'umweru, umukara, inkokokazi n'amasake, ziri kugendamo, hari iziri kudoma zirimo kwinywera amazi.

Ikiraro cya kizungu, kirimo inka nyinshi zigezweho ndetse zimwe zitagira amahembe ziri kurya ubwatsi, hari umugabo uzihagaze imbere ufite ikayi mu ntoki.

Inka ziri ahantu mo imbere hubakiye ebyiri. Inyuma hari abantu bambaye ibisurubeti by'ubururu, harimo n'uwambaye bote z'umweru ndetse hari n'uwambaye igitaburiye cy'umweru, bigaragara ko baje kuzikingira.

Imifuka minini cyane y'umweru iyi ngiyi ijyamo kirojana, bayujuje umusaruro utandukanye bigaragara ko bafite aho kuwujyana.

Umugore ufite imbuto mu ntoki harimo amageri biri mu gitebo kandi urabona ko ari byinshi ubona ko ashaka ko abikoramo ifu ndetse bimwe yabifashe mu kiganza ari kubyitegereza.

Ibigori bitonoye kandi byeze gusa biracyari bibisi birasa umuhondo kandi ababitonoye babishishuriye ku bisigati byabyo bigihagaze.

Umugore uri mu nyubako nini irimo amagi ndetse ari mu dutereko twabugenewe tumwe dutuma atameneka kuko riba ryicaye mu mwanya waryo ndetse hari n'insinga nyinshi biragaragara ko aho hantu hakorerwa n'ibindi bitandukanye.

Abantu batatu bambaye amataburiya y'umweru bicaye ku meza amwe, hagati yabo urimo ni umukobwa, bose bambaye intoki, barakora mu miti bigaragara ko ifite ubukana.

Abaganga babiri bafashe imbwa bayiryamisha ku gitanda, bayitera serumu ndetse bayicomeka n'ibindi bisinga mu kanwa, barimo kuyipima ngo barebe uburwayi yaba ifite.

Ikizwi nk'urupango harimo umuveterineri cyangwa se uwo twita umuganga w'amatungo, yambaye itaburiye y'umweru ari gutera inka urushinge.

Mu nyubako y'ibiti, harimo ibijerekani baciye uruhande rumwe ndetse bashyizemwo ibintu by'ifu, bigaragara ko ari aho bagenda bashyira ibintu bisaguka, hanyuma bakazabikoramowo imiti.

Inyamaswa nini cyane yitwa ingwe, yuriye igiti kinini cyane cyumye, iritegereza isa nk'ibonye umuntu, hasi hari ibindi biti, mu ishyamba binini cyane.

Inyamaswa nini cyane z'inkazi, intare, inzovu n'ingurube, impara ndetse n'imparage, n'inyamaswa twita udusumbashyamba, ziri ahantu mu gihuru hamwe, mu kirere hari ibisiga biri kuguruka.

Ku kumusozi hejuru hariho inkende ndetse iri gutambuka igenda ireba hakurya ibihari, ifite amaguru ndetse kamwe kari imbere akandi kari inyuma. N'amaboko nayo ni uko.

Mu mazi menshi harimo ibishuhe, bikunda koga, akenshi byikundira mu mazi, bifite iminwa imeze nk'ibyinyo ndetse kimwe kirimo kugenda gisanga ikindi.

Inyamaswa nini ndetse itinyitse niyo bise umwami w'ishyamba, ifite .imigara myinshi ndetse ikagira n'ubugome ikaba iri kumwe n'akana kayo

Ku musozi uriho ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi, hariho intare ebyiri, imwe iryamye, indi ihagurutse, iri kwitegereza hakurya ngo irebe ko hari umuntu waza kuyisagarira.

Inyamaswa bita ingwe. Ni inyamaswa itinyitse cyane, kuburyo umuntu wese uyibonye agira ubwoba, ntabwo zikunze kugaragara ahantu henshi ariko iri mu nyamaswa mbi cyane, zitinyitse kandi ziteye ubwoba.

Inyamaswa y'inkazi cyane yitwa ingwe, iri mu gihuru hirya yayo hari izindi ebyiri, ni igihuru kirimo ibyatsi ubona ko byatangiye kuma bitewe n'izuba ryinshi.

Inyamaswa ifite amahembe ubona ko wagira ngo n'ikiganza, ndetse ikaba ifite umunwa umeze nk'indi nyamaswa, ndetse hakaba hari n'ibyatsi byinshi iryamyemo, ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye birebire.